Umugabo wambaye ikote uhetse igikapu afite n'ikindi mu ntoki ugiye aho indege zihagarara akaba arimo gushishikarizwa gufata ubwishingizi kugira ngo agende atekanye.